Umuhinzi ni umuntu uwo ari we wese ufata ubutaka akabukoresha abuteramo imyaka, harimo nk'ibyo kurya, imyumbati, ibijumba, ibishyimbo, amateke akazabigurisha ku bandi bantu cyangwa akabijyana ku isoko, maze na we akabasha kwinjiza amafaranga.

Igihe umuganga agiye kuvura umurwayi asabwa kwitonda cyane, akabanza akambara ibikoresho byabugenewe akazana urushinge akarumutera, hanyuma akongera akamusiga ipamba kugira ngo amaraso atava ku mubiri cyane.

Abaforomo ni abakozi bashinzwe kwita ku barwayi kwa muganga cyane nko kubyaza abagore batwite, gufasha abantu barwaye bikomeye cyane n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuntu wese w'igitsina gore utwite asabwa kubyarira kwa muganga, aha yitabwaho n'abaforomokazi babigize umwuga aho bamwitaho bakafasha umwana kugeza neza neza havuye agasubira mu rugo umwana akuze kandi afite ubuzima bufite ireme, bityo bikazamufasha mu mikurire ye.

Hari inzu zabugenewe zo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri bene izi ziba ari inyubako ndende kandi zubatse ku buryo bwisanzuye ku buryo buri muntu wese abasha kuza agakuriramo ibikorwa ashaka bituma imitsi irambuka kandi akaruhuka akaza gutaha yumva ameze neza.

Amavuta yo kwisiga, akunzwe kuba akuze mu bisukika akenshi bikomoka nko ku bimera harimo nk'amacunga, indimu, ibyatsi bigiye bitandukanye, bitunganyirizwa mu ruganda, bikifashishwa na muntu, gusiga ku mubiri we kugirango urusheho guhora unoze kandi ukeye.

Ibimerarire gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti igiye itandukanyei yo kuvura abantu, aho usanga bifasha umuntu gukira indwara zitandukanye. Harimo nk'inzoka zo mu nda, kurwara umutwe, inkorora n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.